Imiti yicaga udukoko iba ari myiza cyane, iyo wateye ibigori iyi imiti, yica udukoko twose tugashyiramo, ubundi igihingwa kigakura neza kimeze neza, mbese ukabona umusaruro, umuhinzi akabona nyine ikimutunga cyiza, iyo nyine ibyo bihingwa bitapfuye kubera iyi miti.

Imiti yica udukoko ni myiza cyane, kuko ituma umuntu abona umusaruro. Mbega kera, udukoko twarazaga tukatwicira imyaka. None ubu ngubu dusigaye turashyiramo ibintu by'imiti byo kwica udukoko, none turasarura cyane mbese kubera nta byonnyi bikiza mu myaka.

Gutera umuti ku bihingwa, biba ari byiza cyane, kuko byica udukoko, bituma udukoko nyine tudakomeza kubangamira nyine ibihingwa, ugasanga ibintu biri kugenda neza cyane, kuko nyine ibyonnyi byose baba babikuyeho, baba babyishe.

Imiti bakoresha mu buhinzi nk'ibihingwa, bagakoresha gutera weda imbuto iba myiza cyane. Ituma ubukuko butarya imyaka ngo ubuzimare, Kandi bitanga umusaruro kuko ibihingwa bikura neza nta kibazo bifite.

Iyi miti y'abagoromo yica udukoko, ni myiza, ituma ibihingwa byacu bidapfa, nk'iyo bayitubuye nk'amashwagara, bituma ubutaka bugabanya aside mu butaka bwacu, ubundi tukabona umusaruro ugaragara.

Amafi ni meza cyane iyo bashaka kugira ngo amafi amare igihe kirekire, badashaka kuyarya ako kanya kugira ngo bazarye mu gihe kizaza cyangwa bazagurisha iminsi izaza, kuko ntuhita ubona abakiriya ako kanya, bashyiraho umunyu kugira ngo atangirika, ntabwo bayatekera rimwe.

Ubworozi bw'amafi buba ari bwiza cyane kuko butuma abantu babona indyo yuzuye. Kuko amafi bayashyira ku biryo. Ushaka wayarya yonyine. Ariko amafi matoya bayashyira mu biryo kugira ngo biryohe cyane nk'indagara cyangwa se bindi! rikaba ifunguro riryoshye cyane.

Ubuhinzi bw'amafi buduha amafaranga, buduha intungamubiri mu mibiri yacu, ibihingwa nk'amafi amasamaki iyo wayariye, ugubwa neza mu mubiri wawe. Amasamake mbega ni meza cyane ku mibiri yacu mbese.

Ikiyaga kiba ari kiza cyane, kuko ba mukerarugendoiyo basuye ikiyaga binjiza amadovize menshi cyane, akavamo ayo kubakamo imihanda amahoteli n'ibindi bikorwa remezo byinshi cyane, kandi bahinga n'amafi mu kiyaga ibintu bikagenda neza cyane, abantu bakarya neza ifunguro ririho ifi riba riryoshye cyane.

Uburobyi bw'amafi buba ari bwiza cyane, kandi uburobyi babukorera mu kiyaga cyangwa se mu migezi. Buba ari bwiza cyane, kuko butunga ababikora kandi n'uburobyi bwo mu kiyagaga bukurura ba mukerarugendo, abo mu bindi bihugu bareba mu gihugu runaka uburobyi uko babukora mbesi buba bufite akamaro, bukora no kuri leta bwinjiza amafaranga ku bantu bose.

Amafi araryoha cyane, amafi bakaranze mu mavuta aba ari meza, ewewe! Amafi atumaga umuntu agira ubuzima bwiza, iyo wariye amafi ugira ubwenge, n'umwana wariye amafi aba ameze neza nyine, agira uruhu runyereye, ruzima nyine ukabona nyinye ni umwana utaragwiye, atuma atagwingira.....

Ibyuzi biba ari byiza cyane, kuko ibyuzi, akamaro k'ibyuzi baroreramo amafi, bororeramo amafi bayagaburiramo ubundi bigatanga umusaruro, umusaruro ukaba mwinshi, kandi abaturage bituma babona ifunguro ry'amafi cyane, ubworozi bw'amafi buba bwiza cyane cyane.

Uburobyi buba ari bwiza cyane, kuko butunze imiryango myinshi. Butuma abantu babona amafi yo kurya, bukurura ba mukerarugendo uburobyi buba ari bwiza cyane bukurura ba mukerarugendo, kandi butuma nyine imiryango myinshi ibaho neza, mu bukire, kubera ko ni umwuga mwiza cyane.

Ubuhinzi bw'ashamba buba ari bwiza cyane, kuko amashamba niyo avamo ibiti bikavamo amakara, kandi mbese amashyamba akagira akamaro ku bantu bose avamo amakara, avamo inkw yavamo imbaho zo kuramamo intebe, zo kuremamo n'inzugi , mbese amashyamba ni meza adufitiye akamaro twese kandi atanga n'umwuka mwiza wo guhumeka.

Ubuhinzi bwimvange buba ari bwiza cyane. Nk'ubuhinzi bw'amateke ugashyiramo insina, ugashyiraho n'utundi tuntu dusanzwe nk'imboga biba ari byiza cyane umuntu ubihinga bituma ibyo ashaka byose abibonera ku gihe yashaka igitoki akakirya, aho ashaka amateke n'ibindi byose ari byiza cyane rimwe na rimwe.

Ibihingwa ngengabukungu cyangwa se ibihingwa ngandurarugo biba ari byiza cyane, kuko bitunga imiryango myinshi. Bitunga imiryango, abantu babikora nk'umwuga bibinjiriza amafaranga, kandi ubundi bitanga umwuka mwiza. Ibihingwa nyine nk'ibiti bitanga...

Byaba ibihingwa byo kugurisha batarya, nk'ikawa, n'icyayi, ibireti, byose byinjiza amafaranga, haba ibihingwa byo kurya nk'amashu, imboga, byose byinjiza amafaranga, mbesi kandi byose bifitiye akamaro abantu babihinga bose.

Hano mu cyaro duhinga ibihingwa byinshi, duhinga ibishyimbo, duhinga imboga, duhinga ikawa, duhinga ibirayi, bityo iyo twahinze muri rusange, biduha umusaruro kandi tukishimana n'umuryango wacu, tukagurisha tukabonamo n'ibindi dukeneye, mbese ibintu byose biba biryoshye.

Guhinga ibiti biba ari byiza cyane, kuko ibiti birinda isuri, bituma ahantu hatariduka, birinda isuri muri rusange, kandi ibiti bivamo imbaho, ibiti binini bivamo imbaho, bivamo inkwi zo gucanisha, babicanamo amakara, amakara agacanishwa, kandi bitanga umwuka mwiza ku bantu.

Ubuhinzi bw'ibihingwa ngandura rugo biba ari bwiza cyane, noneho hagera ubuhinzi bw'ibihingwa ngengabukungu nabyo biba ari byiza cyane, ngengabukungu babyohereza hanze tukabonamo amafaranga amadovize abakerarugendo baza kubisura tukabonamo amafaranga biba ari byiza cyane.

Ibihingwa ngandurago n'ibihingwa ngengabukungu byose bigira akamaro, bidufitiye akamaro muri rusange bitugirira akamaro bituma tubona icyo dushaka ku masoko yacu.

Ubuhinzi buba bwiza cyane, urabona ko iyo umuntu ahinze agahinga nk'ubu ibijumba, abantu bahinga ibitunguru, abantu bahinga imboga, bose nyine bararonka icyo bashaka cyose barakigura, kubera amafaranga bakuye mu bucuruzi kubyo bahinze.

Ubuhinzi bw'urutoki buba ari bwiza cyane, kuko butanga umusaruro, iyo umuntu asaruyeho igitoki, n'inka zibonaho ubwatsi w'umutumba, inka zirawurya cyane, zirawukunda, kandi bitanga umukamo, kandi ibitoki bitanga n'imineke, n'ibitanga inzoga, biba ari byiza cyane, bitanga umusaruro utandukanye.

Guhinga biba ari byiza bituma abantu babaho bose, kuko abantu dutunzwe n'ibihingwa abahinzi bahinga, nibyo bi dutunze hano mu isi yacu mbese hatariho ibihingwa n'abahinzi, ntabwo twashobora kubaho ntabwo twabaho cyane, ntabwo twama igihe cyinshi.

Ubuhinzi ni bwiza cyane, cyane cyane nk' abahinga ibisheke. Bivamo isukari, isukari yo mu bisheke cyangwa ibikaju bayikoresha nyine mu kuyishyira mu gikoma, kuyishyira mu cyayi, ni isukari nziza, mbese nashishikariza abantu bose guhinga ibisheke, bifite akamaro kenshi.

Ubuhinzi buba ari bwiza cyane, cyane cyane nk'ubuhinzi bw'ibitunguru buba ari bwiza cyane, ibitunguru bigira umusaruro wabyifashisha mu gukaranga, kandi ibitunguru ni byiza ku mubiri babishyira nyine mu biryo, kandi umuntu uhinga abona amafaranga, kandi atanga umusoro ku gihugu. Kubirya nyine wabitetse mu biryo.

Ibihingwa ngandurarugo n'ibihingwa ngengabukungu byose biduha umusaruro. Byose biduha amafaranga. Ibihingwa ngandurarugo turarya, nk'ikijumba turyaho, ibirayi tukagurishaho tukiboneramo amafaranga, ibihingwa ngengabukungu byo... n'ibindi byiza.

Amateke aba ari meza cyane, amateke atera imbaraga, iyo atetse neza kandi amakeke araryoha pe amateke iyo atetse ukagashyiramo amavuta aba aryoshye, kandi iyo wayariye ugira imbaraga ukirikwirirwa umeze neza cyangwa se ukarara mbese muri make araryoga kandi ni mwiza cyane.

Imineke iba ari myiza cyane ku mubiri wacu. Iyo umuntu yariye imineke, imineke igira amasukari menshi cyane. Iyo umuntu yariye umuneke mbese yumva nkaho aba yarushije uwariye ibindi bisukari byo mu nganda. Mbese imineke iba ari myiza cyane ku mubiri, ituma abantu bahaga kandi ni na myiza cyane.

Ubuhinzi bwa karoti buba ari bwiza cyane kuko karoti zivura amaso, kandi zikoreshwa nk'imboga. Ni imboga zitabora cyane, kandi zimara igihe kirekire buba ari bwiza cyane, mbese imboga za karoti ziba ari nziza kuko zitugirira akamaro kandi ziva ahantu...

Ubuhinzi bw'imboga buba bwiza burashimisha kuko imboga, buriya iyo ba wanze imboga ntabwo wabura amafaranga yo kugura ibindi bintu kuko nyine uba wasaruye. Ubuhinzi ni bwiza butanga amafaranga, butanga ibiribwa ku isoko iyo twese bitugirira akamaro ku bantu bose muri rusange.

Voka ziba ari nziza cyane, noneho n'abantu bacuruza voka, biba ari byiza cyane niyo bayitse, bayisatuye, zikurura nyine abantu bashaka kuzigura, kuko bahita babona ko ziryoshe nyine zimeze neza cyane, n'abantu bazigurisha iyobazisatuye, ziba ari nziza cyane, kandi zigira n'akamaro kumubiri ku mibiri y'acu iyo twariye ivoka imibiri yacu igenda ziba zimeze neza.

Ubucuruzi bw'imboga n'imbuto buba ari bwiza cyane, kuko imboga zirinda ndwara, imboga nk'intoryi, inyanya ziba ari imboga nziza, kuko ntabwo zihita zinabora ako kanya, zikoresha wenda igihe kirekire kurusha imboga rwatsi, mbese imboga intoryi ziba ari nziza.

Ihene ebyiri ziri mu kiraro, imwe y'umukara, indi y'ibihogo, ziri kurisha ka meroni mu kazu kazo kabugenewe, hirindwa kuragira ku gasozi kuko babiciye.

Mu kinyarwanda bacaga umugani ngo umushumba akama izo iaraagiye. Ni yo mpamvu n'umuhinzi iyo ahi ga ibintu byose bigenda neza, mbese umusaruro agubonamo. Ewana, wana ibintu bigacamo neza pe.

Voka ziba ari nziza cyane ku mibiri y'abantu, kuko zituma uruhu runyerera, kandi zifatwa nk'imbuto, kuko imbuto kuko imbuto ziba ari nziza ku mubiri w'umuntu. Ibiroy biriho ifunguro ryavo biba biryoshye cyane.

Ibishyimbo ni byiza cyane, bifite akamaro ko kubaka umubiri mu mubiri, iyo umuntu yabiriye aba ariye ibyubaka umubiri, mbese ibishyimbo biba ari byiza cyane, kandi ifunguro ritariho ibishyimbo ntabwo riba risobanutse ntabwo riba riri kurika neza, nta bintu urabirya ukumva nta bintu bisobanutse wariye.

Ibihaza biba ari byiza cyane kuko biribwa, ni ibiribwa byiza cyane bamwe babyita imboga babitekamo imboga abandi bakabiteka babikasiye ari binini nyine bisobanutse. Babirya mu bwoko bwinshi butandukanye bamwe babitekamo imboga, abandi bakabiteka babicyetse mbese aba ari byiza cyane kandi biraryoha.

Ibihingwa ni byiza cyane ku muntu bitunze w'umuhinzi, ibihingwa iyo umuntu yagurishijeho nk'ikiro cy'ibishyimbo, ntabwo yabura wenda amavuta. Umuntu yagurishijeho wenda ku bihingwa acuruza, ibyo ahinga nk'ikawa, mbese bituma abona ibindi bintu akeneye, mbese ni ukugurarana, aragurana kugira ngo abone ibyisumbuye.

Ubuhinzi bw'ibigori buba ari bwiza cyane. Noneho iyo bashyizeho ifumbire, biheka bibiri. ugasanga ikigori kiba gifite ibigori bibiri kubera ifumbire ryinshi washyizemo, kandi bitanga umusaruro. Ku bantu babihinga. Iyo wahinze ibigori, urumva haba ibintu byinshi, N'abantu kandi bakabona amafaranga atubutse.

Ubuhinzi buba bwiza , butuma ku isoko hatabura ibiribwa kandi cyane cyane nk'ibigori wahinze, ibigori umuhinzi bimugirira akamaro nugiyeye kubigura ku isoko nawe bikamugirira akamaro, kuko mbese muri rusange twese bitugirira akamaro , kuko twese ari umuhinzi faranga n'ibiryo byose turabikenera.

Ubuhinzi bw'ibigori buba ari bwiza cyane, kuko abantu bahinga ibigori babona amafaranga. Babona ibyo kurya babitekamo impungure bakabirya. Kandi barabishesha bakavanamo ifu y'igikoma barabishesha bakavanamo ifu y'umutsima, barabishesha, mbese ibigori babirya mu bwoko bwinshi, ni igihingwa cyiza cyane gitera imbaraga. Ubaho umeze neza kandi bitera imbaraga cyane cyane.

Ubucuruzi bw'imbuto buba ari bwiza cyane, kuko imbuto zitugirira akamaro mu mubiri wacu. Ziturinda uburwayi kandi n'imbuto n'ubundi tuzifashisha mu kurya. Iyo nk'ubu turangije kurya ibindi biryo bisanzwe, tuzifashisha nk'ifunguro ryo gusoza ku buryo nka deseri, kandi imbuto.

Ubuhinzi bw'imbutori buba ari bwiza cyane, kuko imbuto zigira akamaro mu mubiri. Imbuto zigira umutobe, imbuto zigira ibintu byinshi nyine byinshi cyane byo gukoresha mu nganda. Mbese imbuto ziba ari nziza cyane ku bazirya no ku bazicuruza, zibaha amafaranga.

Abahinzi bagira amafaranga, kuko ibihingwa bacuruza bibaha nyine umusaruro, bibaha amafaranga yo kwifasha mu buzima busanzwe bwa buri munsi bwabo, kuko abantu bahinga barayacuruza, babona n'amafaranga ahandi hantu, abantu bahinga avoka babonamo amafaranga menshi cyane.

Bantu banjye muraho! Njyewe nkunda avoka, avoka ni ikiribwa cyiza kiba kiryoshye cyane. Iyo avoka wayiriye ugira ubuzima bwiza buzira umuze, mbega muri make voka ni nziza cyane, urayirya uruhu rwawe rugasa neza ukarusha ndetse n'abana baba mu mijyi.

Imbuto nziza cyane, imbuto zikoreshwa nk'ifunguro, barazirya, zivura indwara, imbuto zivamo umutobe nk'ibinyomoro, indimu, imineke, inanasi, bivamo imbuto, bivamo ikinyobwa kandi n'ubundi bazikoresha nka deseri ku ifunguro.

Ubworozi bw'ingurube buba ari bwiza cyane, ewana ingurube urazorora zikaguha amafaranga, ingurube urazorora zikaguhereza ifumbire ryo gufumbiza imyaka, ingurube mbese muri make ingurube zitanga amafaranga ku muntu uzitunze, zitanga n'inyama.

Ubuhinzi bwo mu makoperative cyangwa kwihuriza hamwe buba ari bwiza cyane kuko bituma akazi kagenda neza bukihuta cyane, nyine guhingara bigora cyane birusha guhinga guhingira hamwe byihuta kurusha guhingira guhinga uri mwe.

Ubuhinzi bwa voka buba ari bwiza cyane kuko voka igira akamaro ko gutuma uruhu ruba rwiza cyane kandika igabanya ibinure, ishongesha ibinure voka yine ni ibiryo byiza cane iyo ushyize ku ifunguro, ifunguro iryo ari ryo ryose riraryoha cyane bigatuma ibiryo kandi bikakumerera neza cyane.

Ubuhinzi buba ari bwiza cyane, cyane cyane nkubuhinzi bw'ibirayi, buba bwiza, hababo ibirayi byitwa Rwangumwe, Rwangume, habaho ibirayi byitwa bya Kinigi, mbese ubuhinzi bw'ibirayi, biterwa buri wese n'ubuhinzi ashaka, ariko ibirayi muri rusange byose bivamo amafaranga, bivamo, barabirya, ibirayi ni byiza cyane.

Imbogazi ni nziza, imboga zirinda indwara, imboga zituma abana bamererwa neza. Abantu bakuru, abasaza mbega imboga iyo twaziriye hano mu cyaro, no mu mijyi hose imboga ziba ari nziza, ku bantu bose. Dukunda imboga kuko zirinda indwara. Muri rusange imboga ni nziza ku mubiri w'umuntu.

Amadegede cyangwa ibihaza biba ari byiza cyane, kuko bigira umuhore mwiza uryoshye cyane pe, abantu barabirya bikabashimisha kandi birabahaza, babijyana no mu isoko bakabona amafaranga, abantu babihinga nyine abahinzi babyo.

Imbuto zibabari nziza cyane, imbuto zituma umubiri umererwa neza cyane, iyo wariye imbuto biba ari byiza cyane, cyane cyane iyori wariye imbuto.

Imbuto ziba ari nziza cyane, imbuto zifite umumaro mwinshi mu mubiri wacu, imibiri yacu ikeneye imbuto kugira ngo tubeho, umuntu abone ko natwe dusobanutse, muri make rero imbuto ziba ari nziza cyane ku mibiri yacu.

Ubuhinzi ni bwiza, cyane cyane ubuhinzi bw'ibigori, ubuhinzi bw'ibigori butuma abantu babona igikoma cyo kunywa, ubuhinzi bw'ibigori bituma babona ifu yo gutekamo umutsima, ubuhinzi bw'ibigori butuma abantu babona inyungu nyinshi mu bihingwa, cyane cyane ibigori bakunda guhinga cyane nyine, mbese ni byiza ibigori cyane pe!

ubuhinzi buba ari bwiza cyane, cyane cyane nk'ubuhinzi bwa karoti. Karoti ni nziza zivura amaso, zigurishwa nk'imboga, nyine n'ubundi zirindaga indwara, mbese kandi n'umuntu uzihinga arazicuruza, akabona amafaranga atubutse akayakoresha n'ibindi. Ashobora kuyaguramo amatungo, ashobora kuyaguramo ibyo kurya, imyambaro, bitewe n' ubuhinzi ahinga.

Ubuhinzi bw'ikawa buba ari bwiza cyane. Ikawa tuyita igihingwa ngengabukungu, kuko nta bwo bayirya, nta bwo bayisarura ngo uhite uyirya ako kanya. Ni ubukungu kuko ivamo nk'icyayi cy'ikawa, ivamo n'ibindi bintu bakunda. Ikawa igira umusaruro mwinshi kuko bayohereza mu mahanga, bakabona amafaranga. atubutse

Ubworozi bw'amatungo cyane cyane inka bugira akamaro kuko inka zitanga amata kandi amata ni meza ku bana, butuma bakura neza, bafite igihagararo cyiza, kandi no ku bantu bakuru amata aba ari meza cyane kandi n'ubworozi bw'inka n'ubundi butanga inyama, inyama nziza, butanga impu zo kubohamo, gukoramo inkweto, zitanga impu zo kugiramo imyenda, mbese ubworozi buba ari bwiza cyane

Ubuhinzi bw'imiteja buba ari bwiza cyane, kuko abantu bayihinga babonamo amafaranga abatungira imiryango na bo kandi akabatunga ubwabo, kandi imiteja iraryoha, iba ari myiza cyane kuko iraryoha cyane, iyo uyishyize ku biryo, ibiryo birushaho kuryoha bikabije.

Ubuhinzi bw'ibigori buba ari bwiza cyane niyo wateye ku murongo uteresha n'ifumbire y'imborera cyangwa imavaruganda iba ari nziza cyane igatuma ibigori biba byiza kandi ibigori bitanga umusaruro barabirya kandi n'ubundi babikoraramo n'ifu y'akawunga.

Ubuhinzi bw'amapera buba ari bwiza cyane, n'imbuto muri rusange buba ari bwiza cyane. nk'iyo wahinze amapera ufite nk'umuryango w'abana, imbuto turabizi zigira akamaro ku mubiri w'umuntu, zigabanya inzara nk' abana wenda utabatekeye ibiryo, biba ari byiza cyane. Umwana abaye afashe ku rubuto rw'ipera biba ari byiza cyane kandi imbuto zigirira akamaro abantu mu mibiri y'abantu.

Ubuhinzi bw'imyumbati buba ari bwiza cyane, kuko imyumbati ni ibihingwa ingandurarugo, kuko barayirya uyihinga arayigurisha akabonamo amafaranga, kandi imyumbati zitera imbaraga.

Abahinzi duhinga ibintu byinshi, ibihingwa ngengabukungu, ibihingwa ngandurarugo hano turabihinga cyane kuko byinjiza amafaranga menshi pe. ku muntu ubikoramo, umukozi, twese mbese muri rusange turinjiza.

Imbuto ziba ari nziza cyane, abantu barazirya, zibagirira akamaro mu mubiri, kuko umuntu wariye imbuto aba asobanutse neza kandi aba agaragara neza, imbuto ziba neza kandi zifasha no mugogora ry'ibiribwa.

Imboga z'amashu ziba ari nziza cyane kuko zitanga amafaranga menshi, ugereranyije n'izindi mboga kuko ishu rimwe biba rihenze kurusha uruboga rumwe. Imboga z'amashu ziba ari nziza cyane kandi ziha umusaruro abazihinga kandi n'abazigura bakabona ibyo kurya.

Icyayi kiba ari cyiza ni igihingwa ngengabukungu. Iyo umuntu yagicuruje bakijyana mu ruganda bakagitunganya, abantu bakajya bakinywa. Icyayi abakozi bakora mu cyayi bagisoroma cyangwa kukinoga babonamo amafaranga, kandi gikurura ba mukerarugendo baga...

Ububuhinzi n'ibirayi ni bwiza cyane, kuko ibirayi barabirya bifitiye akamaro ababirya, babitogosheje abandi babitekamo ifiriti abandi babitekakamo sote, ibirayi bitera imbaraga, ibirayi n'igihingwa cyiza cyane ibirayi ni byiza cyane kandi bitunga abahinzi, bibaha amafaranga kandi bitanga n'umusoro iyo byageze ku isoko.

Ubuhinzi bw'inyanya buba ari bwiza cyane kuko bitumaga umuntu abona amafaranga rwose yifuza, iyo wazihinze neza zikera, ubuzima bwe burakomeza mbese amafaranga aba yabonetse kandi ku isoko abantu bakeneye inyanya bazibona neza bagateka ibiryo ndetse isosi nziza nyine biryoshye cyane.

Ubuhinzi bw'icyayi buba ari bwiza cyane, kuko bwinjiza amadovize yaturutse ku bakerarugendo, bwinjiza amafaranga ku bantu bakoramo, icyayi ni cyiza kuko n'abantu iyo bakinweye cyatunganyijwe, bituma umubiri ugenda neza.

Abahinzi ubu ngubu twateye imbere. Duhinga ibirayi tugahinga mbese n'ibindi bihingwa muri rusange. Ariko ibirayi iyo turi kubihinga, tubihinga neza tugashyiraho ifumbire, ifumbire mvaruganda, tugashyiraho amafumbire y'imborera, mbese muri make duhinga ibirayi neza, bikera tukagurisha iyo za Kigali, mu mijyi yose tuyigurishamo mbese, haba mu mijyi tugurishayo no mu cyaro.

ubuhinzi rw'ibigori biba ari byiza cyane, kuko bifite akamaro, ibigori iyo bihinze bikera, birera byamara kwera ukabireka mu murima bibitse, bitanga umusaruro niho wongera kubihinga bikera kuko umutima wabyo aba ari byiza cyane kuko kiba cyarumye.

Amashu aba ari meza cyane ku bantu bayahinga abinjiriza amafaranga kandi iyo bayajyanye ku isoko amara igihe kirekire kurusha izindi mboga rwazi zose, mbese amashu ari meza cyane, mu isoko wayagura ukayacuruza.

Abahinzi n'aborozi bakora ibintu byinshi cyane, cyane cyane aborozi hari ukuntu umuntu wabaga afite ihene akazijyana mu gikuyu cyangwa se kuziragira mu kibara, agasanga nyine afite amafaranga atubutse kubera ko ubworozi buba bwaramuhiriye cyane.

Ubuhinzi bw'urusenda buba ari bwiza cyane, agasenda kaba keza gatera apeti, agasenda kaba ari keza, gakora nyine nk'ibirungo iyo hari abantu bakunda agasenda ugasanga biri gucamo neza bigatuma bagira apeti mu biryo bari kurya bakishima cyane bakumva ko ibiryo biryoshye pe.

Ubuhinzi bw'insina buba ari bwiza cyane, kuko insina bazifashisha mu bintu bitandukanye. Ibitoki biva ku nsina barabiteka, hari bivamo imineke bakayirya, hari ibitoki n'ubundi bivamo umutobe bakawunywa, bakawifashisha, kandi biva mo n'inzoga cyane cyane nk'urwagwa, biba ari ibyiza cyane nyine, barawukoresha cyane

Ubuhinzi bw'icyayi buba ari bwiza cyane, kuko butuma abaturage babonamo, umusaruro mwinshi utubutse, kuko bakoramo bakabona amafaranga, na banyirabyo bakabona amafaranga, Leta ibonamo amafaranga menshi, kubera ko iba yashoyemo amafaranga atubutse.

Amashu ni igihingwa cyiza. Amashu aribwa nk'imboga kandi amashu aba ari meza agira isoko. Iyo bayacuruje avamo amafaranga atubutse yo kwifashisha mu bindi byinshi, kandi n'isoko rigira amafaranga binyuze mu misoro, iyo abantu bari kugurisha amashu ari benshi.

Abasoroma icyayi babona amafaranga nyine atubutse, bayakoresha ibintu byinshi byiza, kandi icyayi gitanga amafaranga, abanyamahanga baza baje kugisura, kandi niyo abantu babijyanye hanze, kibyara umusaruro ku gihugu no ku bantu bagi...

Ubuhinzi bw'ibihaza buba ari bwiza cyane kuko igihaza tucyifashisha, ni ikiribwa kiza kiryoha cyane kandi abantu bagihinga babonamo amafaranga iyo bakijyanye mu isoko, kandi abantu bacuruza babicuruza igihugu kibonamo amafaranga binyuze mu musoro, bityo uwo musoro bawukoresha mu bindi bikorwa.

Ibikuyu biba ari byiza cyane, ari byiza cyane kuko bororeramo inka, inka zikarya zigahaga, kandi bitanga n' umusaruro cyane. Kwahira biba bigoye cyane, iyo wagize igikuyu aho zirira, biba byoroshye cyane, ntibivuna cyane.

Ubuhinzi buba ari bwiza cyane cyane abantu bishyira mu ma koperative y'ubuhinzi, ugasanga iyo abantu bishyize mu makoperative nibwo babona inyungu cyane, kuko buri wese atanga umusanzu mutoya ariko amafaranga kubera aba yikubiye hamwe, bakayakoresha ibintu nko mu buhinzi kugura imbuto bikaborohera kandi bakabona n'inyungu nyinshi.

Ubworozi bw'hene buba ari bwiza cyane kuko ubu butanga amafaranga iyo abantu bagiye kuzicuruza, babona amafaranga. Bakabona ibindi bintu bakeneye, bitewe n'amafaranga bagurije. Ihene zitanga amafumbire bafumbiriza, abahinzi bazi umusaruro kaboneka ari mwinshi kandi hen ...

Ibijumba biraryoha, ibijumba ni ibya mbere iyo wakiriye nuko ukabinywesha amata. Ntacyabirusha kuryoha kandi ibijumba bitera n'imbaraga umubiri. Muri rusange biraryoha cyane ntagihingwa cyabirusha kuryoha pe!

Imineke iba ari myiza cyane bayifasha nk'imbuto iraryoha cyane, abantu bayifasha mu gukora imitobe, mukora n'ibindi bintu byinshi byiza. Bayifasha no kwenga inzoga z'urwagwa, kandi urwagwa ruraryoha cyane.

Akamaro k'ibihingwa ngengabukungu n'akamaro k'ibihingwa ngandurarugo byose biha uhinga amafaranga, mbese biha umuhinzi amafaranga akaguramo icyo ashaka cyose. Mbese iyo ashaka ikintu ari umuhinzi yasaruye ntabwo akibura, byose biba biri ku murongo, ntacyo aba abuze pe.

Twebwe iwacu duhinga imyumbati, imyumbati iyo wayiriye ibintu bigenda neza, imyumbati itera imbaraga mbega muri make imyumbati iraryoha, iyo umwana yariye imyumbati ajya ku ishuri ari kumva akomeye, ari gukina n'abandi banyeshuri agapira mbese akumva na we ameze neza mu mubiri we.

Ubuhinzi bw'imbuto buba ari bwiza cyane, cyane cyane ubuhinzi bwo guhinga amatunda, biba ari byiza, amatunda avamo imitobe, avamo, Ndetse avura n'uburwayi, hari igihe ujya kwa muganga bakagutegeka kujya urya imbuto, cyane cyane amatunda n'inyomoro, mbese imbuto muri rusange zigira...............

Ubucuruzi bw'imbuto buba ari bwiza cyane kuko bituma iyo nawe uzicuruza nawe uzirya ubwawe, biba ari byiza cyane kuko ziba zifite intungamubiri nyinshi cyane, abari kuzicuruza babona amafaranga yo kuyifasha mu bindi bintu kugura imyenda. Ubucuruzi bw'imbuto cyane se kuzirya biba ari byiza cyane bidufitiye akamaro kenshi.

Ubuhinzi bw'amasaka buba ari bwiza cyane uvanamo ubushera, bukavamo ifu yo kwengesha urwagwa, imitsima, mbese muri make amasaka agira agaciro avamo umutsima, igikoma, ubuzima buba bumeze neza cyane.

Ubuhinzi bw'imbuto runaka, ushobora guhinga ibitunguru, ushobora guhinga ibishyimbo, wahinga ibirayi, mbese biba ari byiza, mbese byiza cyane. Iyo wabihinze umuryango uba umeze neza, mbese ibintu byose biba byabaye byiza cyane kurusha uko wajya guhaha.

Ubuhinzi buba ari bwiza cyane nk'ubuhinzi bw'ibigori cyangwa ubuhinzi bw'ibishyimbo, biba ari byiza cyane kuko bitunze imiryango myinshi yo mu Rwanda cyangwa no mu bindi bihugu byose zirabatunze. Imyuga yo guhinga y'ubuhinzi ibaga ari myiza cyane kandi buvamo ibiribwa turya byose.

Ubuhinzi bw'imbuto imwe buba ari bwiza cyane, cyane cyane nk'ibishyimbo iyo wahinze imbuto imwe yera cyane, biba ari byiza cyane, bituma nyine utavanga umusaro ukaba mwinshi cyane, nk'ukuntu umuntu aba abishaka, biba byiza cyane iyo umuntu ahinga imbuto, akavuga ngo iyingiyi irera cyangwa ntiyera.

Ubuhinzi bw'ingano buba ari bwiza cyane, hano mu cyaro twikuriramo imbada, iyo twashisheje ingano dukoramo imbada. Ubuhinzi bw'ingano buba ari bwiza, dukoramo igikoma ukinywera, mbese iyo nta bindi bintu byo gusheshamo ufite, byo gukuramo ifu mbese y'abana, ushaka kwishigishira agakoma, ingano ziba ari nziza cyane, mbese muri rusange ingano ni nziza pe.

Ubuhinzi buba ari bwiza cyane, ubuhinzi bw'ubunyobwo ni bwiza cyane. Ubunyobwa barabuhinga bakabusua bakagenda barabushyira hejuru ku biryo bugira agasosi keza. Ababuhinga kandi bubinjiriza amafaranga.

Ubuhinzi bw'amasaka buba ari bwiza cyane, kuko amasaka agira akamaro kenshi, kavamo ifu y'igikoma kandi ifu y'igikoma y'amasaka iba ari nziza cyane, yakoreshwa n'ubundi nk'umuti kandi bitanga n'iri yogukoramo imitsima, kandi amasaka akagira akamaro ko kwenga ikigage, kwenga ubushera, bayifashisha mu kwenga urwagwa mbesi amasaka afite akamaro kenshi.

Ubuhinzi bw'amasaka buba ari bwiza cyane, kuko butuma abantu babonamo ifu yo gusheshamo ibikoma, imitsima bakayirya za rukacarara ziraryoha, amasaka abafasha mu kwenga inzoga, urwagwa n'ibindi kandi amasaka bikagira akamaro kenshi, kuko iyo abantu nyine bahuye nyine badaherukana , inzoga zo mu masaka barasabana ibintu bigacamo bikagenda neza.

Ubuhinzi bw'icyayi buba ari bwiza cyane, kuko bwinjiza amafaranga menshi, abantu bakoramo babaha amafaranga, ba nyir'icyayi, ba nyir'umushinga nabo bibaha amafaranga, kandi icyayi bagikoramo ikinyobwa cyiza, kandi bakigemura no hanze bakabona amafaranga.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo buba ari bwiza cyane, cyane cyane nkiyo nk'ubuhinzi wakoze bw'imbuto imwe bitanga umusaruro mwinshi, nk'icyo gihingwa gitanga umusaruro, noneho warahinze imbuto imwe utaravanze biba ari byiza cyane, kuko umusaruro uriyongera ukuntu ubishaka cyane cyane.

Ubuhinzi bw'amajeri buba ari bwiza cyane kuko amajeri agira akamaro , agira akamaro nkibi' ibishyimbo nayo Ari mubyubaka umubiri, kandi amajeri cyangwa amashyaza bayatekana n'ibindi biryo ahembura abantu mbese muri rusange amajeri nimeza cyane.

Ibihwagari biba ari byiza cyane bituma nyine havamo amavuta yo gutekesha, abantu bayakarangisha ibiryo byabo kandi ibihwagari nanone bifite akamaro kenshi, udusimba dutoya nk'amasazi cyangwa se inzuki, zizamo guhaha zikabona na zo ibizitunga bivuye mu ndabo zabyo.

Ubuhinzi buba bwiza cyane, ubuhinzi bwinjiriza igihugu, ubuhinzi n'ibikorwa byiza bigira akamaro ku gihugu n'umuntu ku giti cye.

Guhunika imyaka ni byiza, guhunika mu bigega turahunika, ubundi n'iyo turi guhunika tuba turi kwizigama ibyo tuzarya ejo cyangwa ejobundi. Turahunika ibigori, duhunika ibishyimbo, muri rusange mbese imyaka yose yo kurya turayihunika, kugira ngo ejo hazaza n'ubundi tuzayifashishe.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo n'imiteja birimo ubwoko bwinshi, hari ibigira amabara y'umukara, hari ibigira amabarara y'icyatsi, hari ibigira amabara y'umuhondo, byose biba ari byiza cyane. Kuko biterwa n'ubwoko umuntu aba ashaka guhinga n'umusaruro aba ashaka, byose bigira akamaro byose barabirya.

Ubuhinzi buba ari bwiza cyane, ubuhinzi bw'ibishyimbo, ubuhinzi bw'amajeri, cyangwa se amashaza. Biba ari byiza cyane kuko biri mu byubaka umubiri, kandi iyo umuntu yabiriye, inzara iragenda. Ibintu byose kandi bimeze neza fureshe, ari byiza cyane cyane mbese cyane.

Ubuhinzi bw'ubunyobwa buba ari bwiza cyane, kuko ubunyobwa buvamo amavuta. Ubunyobwa babushyira mu mafunguro, barabukaranga bakaburya, ubunyobwa buba ari bwiza, hari igihe babushigishamo ifu bakajya bayiminjiza hejuru y'ibiryo kugira ngo haboneke...

Amajeri aba ari meza cyane, noneho hari amajeri aba asatuye bayateka mu bitoki bikaryoha cyane. Mbesi aba ari meza cyane, urebye kandi nayo ni mubyubaka umubiri, kuko ni ibinyamisogwe nabyo ni nk'ibishyimbo mbese.

Ubuhinzi bw'imiteja buba ari bwiza cyane, kuko iyo wahinze imiteja, ubuzima bugenda neza. Imiteja bayigaburira isoko, isoko, abanyesoko bakishima, kandi nawe bikaguha amafaranga menshi meza, amafaranga ushaka bitewe n'ukuntu nawe uba wayiranguye, biba ari byiza cyane.

Ubuhinzi bw'ibigori buba bwiza cyane, nk'abacyaro twihingira ibigori, iyo wihingiye ibigori ujya gushesha ukinywera agakoma, ukajya gusheshamo agafu ukirira ako gatsima, mbese ubuhinzi ino mucyaro buradutunze buba ari bwiza cyane kwinjira mu buhinzi.

Ibihirwa ni byiza cyane, ibigori turabishesha haakavamo igikoma, tubitekagamo umuitsima, tubiteka dushaka tubiteka hariho n'amababibi. Ibigori ni ibihingwa ngandurarugo kuko bituma urugo rugedwa neza ukabi...

Ubuhinzi bw'amasaka buba ari bwiza cyane, kuko amasaka ifu yayo havamo igikoma, havamo umutsima bita rukacarara, havamo ifu, ifu yayo bayengesha inzoga bita urwagwa, bengamo ibigage, mu ifu yayo bengamo n'ubushera mbese....

Ubuhimzi bw'ibishyimbo ni bwiza cyane, iyo wahinze. Ushobora guhinga ikiro, ejobundi ukazasarura nk'ibiro icumi. Rero guhinga biba ari byiza cyane, iyo wahinze ibishyimbo n'ibindi byose, mbese urunguka mu gihe kizaza.

Ubuhinzi n'ibishyimbo buba ari bwiza, noneho ibishyimbo bya kizungu biba ari byiza cyane, bigira isosi bigura amafaranga menshi, kandi mbesi bifite n'intungamubiri ku mubiri wacu, mbese bitugirira akamaro cyane kandi n'ababicuruza babona inyungu.

Ubuhinzi buba ari bwiza cyane kuko butuma abantu bigira, kandi bakabona no kwizigamira ibiryo bazarya mu minsi izaza. Barahinga bakabona ibiryo barya uwo munsi n'iminsi ikurikiraho yose, bakaba baribikiye kandi basagurira n'isoko, bakabona amafaranga bakoresha no mu bindi bintu bitandukanye byinshi cyane.

Ibishyimbo mbega ni ikiribwa cyiza, cyubaka umubiri iyo wakiriye, ibishyimbo by'ibigugu, ibishyimbo byeze vuba, ibishyimbo bigufi, mbega muri make ibishyimbo ni ikiribwa cyiza. Iyo wariye ibishyimbo, umubiri, uranezererwa mu mubiri wawe, mbese kurusha uwariye n'inyama.

Amajeri aba ari meza cyane cyangwa n'ubundi buhinzi, buba ari bwiza cyane. Kuko amajeri tuyifashisha mu biribwa byubaka umubiri. Ari mu muryango umwe n'ibishyimbo kuko byose tubyita ibinyamisogwe, kandi agira akamaro. Bayateka mu biryo byose.

Ubuhinzi bw'amajeri, ubuhinzi bw'ibishyimbo, ubuhinzi bwa soya, biba ari byiza cyane kuko byose ni ibinyamisongwe, kandi byubaka umubiri. Biba ari byiza cyane iyo babitetse mu bindi biryo, biba ari byiza cyane. Uretse soya zo ko bataziteka mu bindi biryo na zo baziteka...Biraryoha iyo babikoze gutyo.

Ubuhunikiro bw'ibigori buba ari bwiza cyane, kuko iyo uhunitse ubuzima bugenda neza, guhera uwo munsi wabihunitseho kugeza igihe cyose ugenda uravanaho bike bike, mbese iyo utabijyanye mu isoko ngo ubimarire mu isoko, ukagenda urahunikaho biba byoroshye nyine ibyo kurya....

Ubuhunitse bw'ibigori buba ari bwiza cyane, aho bwakorwaga kera kera cyane, wahunikaga mu nzu nto z'ibyatsi iyo wunikaga byatumaga wizigamira nyine no mu gihe kizaza kiri imbere cyose ukazabaho neza ntabwo wicwaga n'inzara.

Ibigori biba ari byiza cyane, noneho iyo wabyanuye bimeze neza cyane, bituma ubutaha wongera kubona ibyo uhinga. Abahinzi barazigama kugira bazongere babone ibyo guhinga, no kujya bararyaho gake gake bitonze bakabisheshamo n'agafu, bakabona igikoma cyane gikwiriye.

Ubworozi bw'inka buba ari bwiza cyane, kuko inka zitanga umukamo, zitanga amata, ubworozi bubaga ari bwiza cane. Impu z'inka barazikoresha mu bintu byinshi, kandi inka n'ubundi zitanga ifumbire yo gufumbiza imyaka, ibihingwa, mbese ubworozi bw'inka buba.............

Inka ni nziza cyane, inka irabyibuha neza, iyo wahamagaye nk'umuveterineri ngo ayikuvurira, irakura neza, igatanga umusaruro, mbese itanga umusaruro mwinshi, ikabyibuha cyane, ukabona nawe ufite inka nziza iri gutanga umusaruro, iyo veteneri yayikuvuriye, mbesi ibintu byose biba ari byiza cyane, itanga umusaruro nawe ukabibona.

Ubuvuzi bw'amatungo buba bwiza cyane, kuko butuma inka zikura neza nta burwayi zifite, kandi n'abantu bazivura babona amafaranga. Biba ari byiza cyane zinjiza amafaranga, zituma ubwoko budacika bw'inka, bigatuma nyine umusaruro ukomeza kuba mwinshi.

Ibimasa biba bifite akamaro kenshi cyane birimya, bibanguriraga mbesi izindi nka muri rusange. nibyo bituma ubworozi budacika, kuko iyo biri kwimya n'izindi nka zose ziba zimeze neza zirabyara umusaruro ukaba mwinshi.

Ubuvuzi bw'amatungo buba ari bwiza cyane, kuko iyo umuganga ari kuvura amatungo bimuha amafaranga, kandi n'abo ari kuvurira amatungo yabo biba ari byiza pe, kuko amatungo iyo akize uba ufite ubukungu bwinshi cyane.

Inyama ni nziza cyane zituma abazibaga, ababazi babonamo amafaranga iyo bazibaze. Mbese inyama ni nziza cyane, iyo abantu bari kuzirya biba ari byiza cyane kuko bakunda kubyita akaboga, kuko ziraryoha cyane.

Ubuveteneri buba ari bwiza mbese hano mu rwanda ubuveterineri bwateye imbere, uba ufite nk'agahene wahamagara veterineri akakaguterera urushinge, mbese ibintu bikagenda neza amatungo yawe rwose akamererwa neza. Mbese amatungo asigaye yarabaye nk'abantu kubera ubuveteneri bwatwegereye mbesi mucyaro muri rusange

Kororera inka mu biraro biba byiza ariko iyo ufite igikuyu cyangwa ahantu ho kuzororera handi hatari mu kiraro biba byiza cyane kuko inka zirya zigahaga, biba byiza cyane byongerara umukamo kuko inka ziba zariye cyane zahaze bityo bigashimisha abazorora zigakura neza cyane.

Ubuveterineri buba ari bwiza cyane kuko butuma amatungo menshi adapfa kubera ko nyine aba yavuwe. Mbere yapfaga ari menshi ariko ubungubu ajya apfa ari makeya kuko abaveteneri begereye abaturage mbese muri make ubuveterineri ni bwiza cyane.

Inkwavu zidufitiye akamaro kanini, kuko barazibaga hakavamo inyama tukazirya, zivagamo, ubwoya bwazo buvamo, nabwo ni umuti babushyira ku gisebe iyo umuntu yakomeretse cyane, kandi ubwoya bwazo n'ubundi babukoresha mu myenda.

Ubuveterineri ni bwiza kuko urabona nk'iyo abaveterineri mu cyaro dufite abaveteneri benshi, kutuvurira amatungo ntabwo bitugora cyane, bahamara umuveterineri mu kuza nyine akaza abangutse, kuko abaveterineri iyo ari benshi cyane bituma inka zacu zimera neza ntizirware ngo zipfe zidushireho, mbega ubuveterineri buba mwiza muri make.

Ubworozi bw'ihene buba ari bwiza cyane. Ihene zitanga umusaruro, itanga inyama, itanga ifumbire, kandi ihene ubwoya bwazo nabwo hari ahantu babukoresha nko gukora imyenda biba ari byiza cyane kandi ihene na none.

Ubworozi bw'ihene mu rugo butanga umusaruro. Butanga ifumbire. Ihene iyo zikuze zitanga inyama, impu z'ihene bazikoresha mu gukora imikandara, bazifashisha mu gukora imyenda, kandi ihene iyo bayigurishije babonamo amafaranga atubutse, kandi utanga n'umusoro iyo wacuruje...

Ubworozi bw'ingurube buba ari bwiza cyane kuko ingurube ni itungo ribasha gukura vuba kandi rigatanga n'umusaruro kurusha ayandi matungo yose, ingurube zitanga inyama, zitanga ifumbire, ingurube ziba ari nziza cyane ku muntu uzorora, n'abantu bagura inyama ziraryoha.

ubworozi bw'inkoko ko buba ari bwiza cyane, kuko inkoko mu mahoteri ziba ari nziza cyane, ku maresitora inko ziba ari nziza cyane. Inyama z'inkoko ziba zihenze kandiba zinaryoshye cyane, ntabwo ziba zihenze cyane kuko ugiye kwigurira inkoko ntabwo yaguhenda nk'uko wagura inka ushaka kurya inyama, kandi inkoko zitanga n'umusaruro, zitanga amagi, amagi kandi aba arimo poroteyine zubaka umubiri.

Ubworozi bw'inkwavu buba ari bwiza cyane, inkwamvu zifite akamaro kenshi cyane, ubwoya bw'inkwavu babwifashisha mu gukora imyenda, ubwoya bw'inkwavu babwifashisha nk'umuti, ubwoya bw'inkwavu buba bufite akamaro kenshi, Kandi inkwamvu barazirya, inkwamvu zitanga ifumbire, zitanga ifumbire ryinshi cyane, ryo gufumbira imyaka.

Inyoni zo mu gasozi nk'inuma, ibikona bijya ku nsinga z'amashanyarazi, ugasanga rimwe na rimwe bikora impanuka iyo insinga ziba zishishuye bikora impanuka, kandi niyo biri ku nsiga z'amashanyarazi bikurura ba mukerarugendo kuko babibonera hafi.

Inyamaswa z'agasozi ziba ari nziza zikurura ba mukerarugendo, zinjiza amadovize, n'iyo umuntu azibonye byo byonyine biramushimisha cyane bigatuma yirirwa amerewe neza cyane, igihe cyose mbese inyamaswa z'agasozi zirashimisha pe! Zikorera umunsi umuntu akirirwa yishimye.

Inyamaswa zo mu gasozi nk'imbwa cyangwa imbwebwe, impyisi cyangwa ibirura, biraryana cyane. Bishobora guteza abantu akaga kuko biraryana, bitungwa n'inyama, ariko kandi nubwo byica, bigira n'akamaro kuko bikurura ba mukerarugendo.

Inyamaswa, inyamaswa zo mu gasozi zirashimisha cyane, inyamaswa zo mu gasozi zikurura ba mukerarugendo nk'imbeba, ariko n'ubundi zigira izindi ngeso mbi zo kona ibishyimbo Kona imyaka muri rusange, ibigori, amajyeri cyangwa se amashaza zigira ibyiza n'ibibi byose zirabigira.

Inyamaswa zo mu gasozi ziba ari nziza cyane zikururaga ba mukerarugendo, ziba ari nziza cyane, nubwo zigira nabi haba igihe zibye inkoko, ugasanga ziri kona n'imyaka ariko nyine nubwo zibaba zifite akazi.

Inyamaswa z'igasozi turazikunda cyane zinjiza amadovize, zinjiza amadovize, zikinjiza amafaranga, zikurura ba mukerarugendo nibo binjiza ayo madovize, bakubaka imihanda, ayo madovize yubaka imihanda, kaburimbo, amashuri n'ibindi.

Inyamaswa zo mu ishamba zizi kwirukanka mu gihe cyo kwitabara ziba ziri kwiruka cyane, urabona nk'imparage cyangwa nyirabuhene cyangwa agahene ko mu ishamba bakunda kubyita bitewe n'agace runaka, iyo bibonye nk'imbogo cyangwaga ingwe ikiruka cyane nyine ishobora kwitabara.

Inyamaswa zo mu gasozi cyane cyane inyamaswa ntoya ziba ari nziza cyane kuko ziracukura nyine zigatuma ubutaka buboneka. Ariko n'ubundi zituma nyine ibihingwa bibura mbese ntabwo ziba ari nziza cyane cyane.

Ziba ari nziza cyane cyane izo bita ibihunyira, izo bita uducurama , aba ari byiza cyane kuko nk'abantu baturutse mu mahanga batabizi bibagigirarira akamaro, birabashimisha, bakabifotora na bo bakazajya kubyereka ab'iwabo. Mbese biba ari byiza cyane kandi bikabinjiriza. kandi bikinjiza n'igihugu aho babibonye bikinjiriza amadovize.

Akamaro k'indabo ku tunyoni indabo zituma nyine inyoni zihaha icyo kurya ubuki, indabo kandi bazifashisha mu kudekora cyangwa se gutaka ahantu. Ahantu hari indabo n'inzuki zijya gushakamo ubuki, icyo kurya bikaba ibintu bimeze neza cyane.

Inyoni zitwa udufundi zina, zirona cyane cyane cyane, zona amasaka, zona uburo, zona ibishyimbo, mbise ntakintu zitona, ariko ziba zifite akandi kamaro kuko abantu batazizi bajya kuzisura aho ziba, zishobora nazo kwinjiza amadovize, ayo amafaranga zinjize agakoreshwa mukorwa bya leta.

Inyamaswa zo mu gasozi, cyane cyane nk'inkoko zo mu gasozi bakunda kwitwa inkware, inyoni zose zikurura ba mukerarugendo, zinjiza amadovize, mbega n'umuntu uri kuzireba wese biramunyura, mbese akumva ameze neza mu buriri we, akishima cyane.

Inyamaswa zo mu gasozi ziba ari nziza cyane, zikurura ba mukerarugendo bakaza kuyisura bagatanga amadovize ku gihugu zibamo cyane. Ariko zirya n'abantu zirabarya kuko hari igihe zigeze ku kintu zikangiza n'imyaka, n'amatungo y'abantu zikayarya.

Inyamanswa zo mu gasozi, ziba ari nziza cyane, noneho hari ukuntu usanga inyoni cyangwa se ibishwi, bikurura bamukerarugendo bigira akamaro cyane, ariko n'ubwo bigira akamaro cyane, haba igihe byonnye n'imyaka, ugsanga birikona imyaka, nk'ingano biri kona ibishyimbo, mbese birona n'ubwo bikurura bamukerarugendo, ariko bigira n'ibibi byinshi.

Inyoni zo mu gasozi ziba ari nziza cyane. Zihabwa igihe ziri kuririmbira abantu bona bakumva barishimye cyane. Kandi inyoni zo mu gasozi zikurura ba mukerarugendo, bakinjiza amadovize baje kuzireba. Kandi zigatuma nyine ibikorwa-remezo bigenda neza kuko amafaranga aba yavuyemo.

Itungo ry'imbata riba ari ryiza cyane ritera amagi. Riba ahantu haba amazi, ntijyaba ahantu hatari amazi kuko rikunda koga cyane, ntijyaba ahantu hatari amazi kuko amazi niyo atuma ribaho, ritera amagi, kandi ritanga n'inyama.

Inyamaswa z'agasozi ziba nziza cyane, cyane cyane inyoni, inyoni hari inyoni basigaye bororora cyane, kuzorora ku mihanda kazororera mu biti bigira amafaranga menshi, mbese muri rusange inyoni ni nziza cyane pe kuko zikurura na bamukerarugendo.

Inyoni zo mu gasozi ziba zitunzwe n'ibintu bitandukanye. Hari igihe zisanga nk' inyamaswa zapfiriye zapfiriye mu mashyamba, inyoni zikirira zikaba zaronse zikirira inyama, niko ziba zibayeho cyane, kandi zikurura bamukerarugendo. Izo nyoni zo mu gasozi zinjiza amafaranga amadovize.

Inyoni zo mu gasozi ziba ni cyane nk'imisuri. Abantu benshi ntabwo baba bazizi nk'abantu baba baturutse mu migi hataba amashamba ntabwo baba bazizi. Abantu baba baturutse mu bindi bihugu nku Buraya cyangwa muri Amerika ntabwo baba bazizi cyane. Iyo baje kuzisura zitanga amadovize. Amadovize kandi agirira Igihugu akamaro.

Inyoni zo mu gasozi ziba ari nziza cyane, kuko zikururara ba mukerarugendo, bakinjiza amafaranga amadovize agakora ibikorwaremezo nk'imihanda, amashuri n'ibindi bikorwa bya leta, nk'ubugari, imirenge kandi biba ari byiza cyane bituma n'umuntu uri kubireba nyine yishima cyane.